Umugore uri koga ibiganza kuri kandagirukarabe ikozwe n'uduti tubiri dushinze n'akandi gatambitse hejuru, yambaye ingofero, akaba akenyeye n'igitenge, akaba ahagaze impande y'inzu ari no guseka.

Abantu umunani barimo abana bane bahagararanye, umwana wambaye agapira k'umutuku ufashe undi ku rutugu, hakaba umugabo wambaye ikoti y'umukara uri kumwe n'umugore ndetse n'umumama uteruye akana mu ntoki, bari imbere y'ikirango gishinzwe kurengera abana ubuzima bwabo bwiza.

Abaganga batatu bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza bari kwandikiraho n'amafishi bari gusomaho ibyo bandika, umwe yicaye ku ruhande rwo hirya, abandi babiri baregeranye, inyuma yabo hari ifoto y'abantu babiri bafite n'umwana.

Abana bato bari ku mugezi bafite n'utudomoro bari kuvomeramo amazi, umukobwa ari inyuma ari kubasunikira amazi, ku ruhande rwabo hari imodoka ndetse n'ibyatsi byinshi bikikije uwo mugezi bari kuvomaho, amabuye ndetse n'ibindi byinshi.

Abaganga bari kuvura umwana urwaye bari kumutera imiti, bamuryamishije ku buriri ku gitenge, bambaye amataburiya abaganga, mama wabo ukenyeye ibitenge uteze n'agatambaro k'icyatsi, yicaye ari kubareba uko bari kumuvura.

Abantu benshi bahagaze imbere ya salle iberamo inama ku bijyanye n'ubuzima, bari kumwe n'abaganga babiri bambaye imyenda y'ubururu, inyuma yabo hari igishushanyo kiriho umuganga handitseho amagambo.

Abagabo n'abagore harimo inkumi n'abasore, bambaye imyenda itandukanye, nk'ubururu, umukara, umweru n'umuhondo, bari mu nyubako aho bifotoreza imbere y'ikirarango kijyanye n'ubuzima.

Ababyeyi babiri umugabo n'umugore, umugore uteruye akana kabo, umugabo ari kumushyiraho igipfuko n'umuganga wicaye imbere y'ameza ari kwandika abana, n'inyuma yabo hari abandi bantu bategereje ko na bo babafasha.

Umwana uri gukaraba intoki ku mugezi arasutamye, ni umukobwa, ari guseka, ibidomoro bitatu imbere yiwe, bibiri birebire by'umuhondo n'ikindi cy'ubururu, iruhande rwe hari igihuru, asutamye hasi.

Umugabo uhagaze hagati y'ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda rigizwe n'amabara atatu ariyo ubururu, umuhondo, icyatsi kibisi, ari kuvuga ku bijyanye n'imiyoborere myiza y'ahashize twigire ku hazaza.

Umukobwa uri kumwe n'umusore bicaye, umusore yipfutse mu maso, umukobwa ari kumuganiriza yamushyize akaboko ku rutugu, bari ahantu hatuje, hasize irangi ry'umweru, umukobwa ari kuganiriza umuhungu.

Umukobwa uri guseka cyane yashyize akaboko mu musatsi, afite umusatsi uringaniye, yambaye isengeri y'umukara, yambaye n'ipantaro yayizinze, inyuma ye hari ibiti, yicaye ku gatebe kaboshye.

Abantu benshi bari mu bukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa ndetse n'umugabo uri imbere ufite mikoro ugenda uvuga ibyo bateguye.

Umubyeyi w'umumama wambaye indorerwamo, uri kumwenyura, yambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'ubururu, akaba yambaye imiringa myinshi ku maboko, afite ikirango mu ntoki cyo kwibuka.

Umugore uri guseka, ufite imisatsi iboshye ku mutwe, wambaye ijire y'umuhondo y'ikigo k'itumanaho MTN, ari gucuruza ibikoresho bikoreshwa mu rugo harimo n'ibyo kurya ndetse n'ibirungo bikoreshwa mu gutegura amafunguro.

Umukobwa uri kwa muganga, yambaye itaburiya ikoreshwa, ari kwireba mu ndorerwamo areba amenyo yiwe uko ahagaze, yambaye n'umupira urimo uburongo bw'umweru n'umuhondo.

Umwana muto w'umukobwa wambaye ikanzu y'icyatsi n'agapira k'umweru imbere, bategesheje agatambaro k'umweru, ari koza amenyo akoresheje uburoso ndetse na korogati, ari guseka cyane.

Abantu bari mu myitozo ngororamubiri, imbere yabo hari umugore useka wishimye, uteruye icyuma kimufasha mu myitozo ngororamubiri, yambaye agapira gatoya gaciye amaboko, ariko ari gukoresha imyitozo ngororamubiri, n'umusatsi mukeya ku mutwe.

Abakecuru n'abasaza bicaye hasi ku masambi harimo umwe uri kuboha agaseke n'abandi bicaye impande z'iwe bari kuganira.

Abagabo babiri bambaye imipira y'umweru ndetse n'amapantaro y'umukara, bari gukora imyitozo ngororamubiri, bishimye baseka, bafite uducupa turimo amazi mu biganza, imbere yabo hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Umusaza ukuze wicaye wambaye umupira w'umweru, uri kurya yashyize akaboko ku meza n'umuganga uri kumusukira umutobe mu kirahure, yamuteguriye n'imbuto mu gasahani, inyuma yabo hari icyuma babikamo ibyo kurya.

Umurwayi wambaye ikanzu y'ubururu, ari guhagurukira ku cyuma cyo kwa muganga, yambaye ibirenge akaba ari kugenda.

Abagore n'abakobwa bari kwifotoza bishimye baseka, harimo abarambuye amaboko, abandi basutamye n'abandi bahagaze, hari n'umugabo ku ruhande uri kwifotoza na terefone, bari imbere y'ikirango bari kwifotorezaho.

Ababyeyi bane bicaye ku ntebe bateruye abana, inyuma hari ibishushanyo bigaragaza uko umubyeyi agomba kwita ku mwana, ababyeyi babiri bari kurebana baseka, undi umwe ari kureba umwana ubundi nawe ari kumureba hagati.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Gishwerz iriho abaturage bane, umwe wicaye ku gatebe, undi wambaye umupira w'umutuku uhagaze n'abandi bagabo babiri bahagaze harimo uwambaye umupira w'umweru, bakaba hari n'abandi babiri bari kuzamuka n'undi umwe uri kumanuka aza ku kigo nderabuzima.

Ibitaro byubatse neza mu buryo bugezweho, bikaba bifite ubusitani imbere yabwo, burimo ibiti by'imikindo, hejuru ku nyubako hakaba hari ikirango cy'ibyo bitaro, no hasi aho abantu binjirira biranga ibyo bito.

Icyumba cyo kuvuramo abarwayi kirimo amazi yo koga intoki, aho bakura impapuro z'isuku indobo bashyiramo imyanda, uburiri bahuriraho abarwayi buriho n'imisego n'imashini yifashishwa bareba umurwayi.

Umurwayi w'umusore aryamye ku buriri, yambaye agapfukamunwa n'igofero y'umukara mu mutwe, arikumwe n'umuganga uri kumuvura ahagaze ku ruhande rwe, umuganga wambaye itaburiya n'imisatsi iboshye ari kumushyiraho imiti ku kaboko.

Ibikoresho bakoresha kwa muganga basuzuma ubuzima bw'umurwayi, harimo uburiri bamuryamishaho, ishuka y'umweru, icyuma barebera uko ubuzima bwe buhagaze ndetse n'ikindi cyuma akoresha ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Inzu yifashishwa bavura abarwayi, irimo ibitanda bavuriramo abarwayi biriho n'amashuka, intebe abaganga bifashisha babikaho imiti ndetse n'insakazamashusho bakoresha, bari kureba uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Imiti ikoreshwa mubu buvuzi bwa kizungu ipanze mu buryo butandukanye kandi bwiza bugezweho, hakaba harimo imiti ifite amabara y'ubururu, ifite amabara y'icyatsi, ifite amabara y'umweru, yose iri ahantu ubona hatekanye kandi ubona hakonje.

Abaganga bari kwitoza umwuga w'ubuganga, bagerageza ibintu bimwe na bimwe harimo: amata, amavuta ndetse n'ibindi bikoresho bari gukoresha, bambaye amataburiya y'umweru, ni abakobwa babiri ndetse n'umusore.

Umurwayi uryamye ku gitanda bamupfutse igitambara cy'icyatsi mu maso n'abaganga batatu bamuri iruhande, bambaye utugofero tw'icyatsi mu mutwe n'amataburiya y'ubururu, umwe ari kurebera mu cyuma undi nawe ari kureba ibyo mugenzi we ari gukora.

Umugabo uri kunywa amazi afashe agacupa mu ntoki uvuye mu myitozo ngororamubiri wambaye agapira k'umukara gaciye amaboko ufite uruhu rwirabura ari imbere y'ibyatsi bimukikije.

Umusore uri kunywa amazi mu icupa ry'ubururu arifatishije akaboko, yambaye agapira k'ubururu, akaba afite n'agatambaro ku kaboko n'akandi k'umukara ku kandi kaboko, akaba avuye mu myitozo ngororamubiri.

Imboga n'imbuto byagufasha kugira ubuzima bwiza, ndetse n'ibikoresho bikoreshwa muri siporo, harimo igipimo, hakaba n'ibyuma byo guterura, hakaba harimo indimu, hakaba harimo urusenda, ndetse n'imboga rwatsi zituma umuntu agira ubuzima bwiza buzira uburwayi.

Ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, birimo ekuteri ziri mu ibara ry'umukara, umupira uri mu mabara y'umweru ndetse n'amabara y'umukara, inkweto zirimo amabara y'umutuku, umweru ndetse n'ibara ry'umukara.

Umugabo uryamye bari kumukoresha imyitozo ngororamubiri, afite telefone mu kiganza, yambaye agapira k'ubururu bwijimye, akaba yambaye ikabutura y'umweru hasi irimo umutuku, akaba ari gukoreshwa imyitozo ngororamubiri n'undi mugabo umuhagaze impande.

Inanasi, indimu, amatunda, imineke, ubunyobwa, imidari itatu, icupa ryo kunywesha amazi, ibinini byinshi biri ahantu ku kameza k'umukara bitegerejwe gukoreshwa.

Igitanda kiryamyeho umugabo, hahagaze abandi babiri imbere yiwe, umwe yamushyizeho akaboko, undi akaboko yagashyize ku buriri, bari kumukoresha imyitozo ngororamubiri, hari n'abandi bantu ku ruhande, abakobwa babiri, umwe ari gufasha undi gukora imyitozo ngororamubiri.

Ishusho igaragaza ubusobanuro bw'ibyiza by'imyitozo ngororamubiri harimo gutuma amaraso akomera, kugabanya umuvuduko w'amaraso, kugabanya kumva ufite ibibazo, kugabanya ibiro ukaba ufite no kuba yagufasha guhumeka neza.

Umukobwa ufite imisatsi iboshye, ubyutse wicaye ku buriri, ari kurambura amaboko, yambaye isengeri y'umukara, yambaye n'ipantaro y'umukara, yicaye ku buriri bushashe, akaba ari mu nzu isize amarangi y'umweru.

Amacupa babikamo imiti, atenze ahantu ku murongo, harimo irifite ibara ry'icyatsi, irifite ibara ry'umukara, akaba hari irifite n'ibara ry'ikijuju n'irindi rifite ibara ry'umutuku, bikaba bifite ibiranga inyuma yabyo byanditseho imitu uko ikoreshwa.

Ubusitani bunini buteyeho indabyo nyinshi zifite amoko atandukanye, harimo izifite ibiti birebire n'izindi zifite ibiti byo hasi, zikaba zifite amabara y'umweru, amabara y'icyatsi, amabara y'umutuku n'amabara y'umuhondo.

Imiti gakondo, iri mu ducupa dutandukanye, harimo utureture, hakabamo n'utugufi, imwe ifite imifuniko y'umweru, iyindi ikagira imifuniko y'ubururu, hakaba hariho ibirango kuri ayo macupa, inyuma yaho hari imyenda, ndetse n'abandi bantu bari kugura iyo miti.

Ibyatsi byifashishwa mu buvuzi gakondo kirandahandada hasi ku butaka, cyazanye indabo z'umutuku zirimo umweru ndetse n'umuhondo imbere, kiri kumwe n'ubundi bwatsi butoya bwifashishwa mu kugaburira amatungo.